Abantu benshi cyane bahuriye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abana biga mu mashuri y'incuke, aho batonze uruziga bakaba bari ku muronko bari kugenda bakina udukino dutandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bahuriye hamwe, aho bari kumwe na mwarimu wabo agenda abatoza gukorera mu matsinda bakoresha amabara menshi agiye atandukanye.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba ari kugenda afite indobo ari kugenda ayuhira kugira ngo arebe ko yamera neza, hanyuma akazamuha umusaruro utubutse maze agatera imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zubakishije amatafari ahiye. Bikaba bigaragara ko ari ku kigo cy'amashuri, aho hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Igikuta kimanitseho igipapuro kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, aho ibi bikoresho babyifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ibi bikoresho by'ingenzi byifashishwa mu buhinzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako y'ishuri, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Mukingi, ikaba ifite urugi ruteye amarangi y'icyatsi, ruriho n'ibendera ry'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso, mo imbere hateyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zikaba ari inyubako z'amashuri, aho zisakaje amabati y'ubururu ndetse zikaba zikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru. Akaba ari inyubako y'ishuri, aho mo imbere harimo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bahagaze ndetse n'abicaye, bari kureba mugenzi wabo ubari imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, aho bari ku muronko bakaba bigishwa uko bagomba gusigasira umuco nyarwanda, aho imbere yabo hahagaze mwarimu wabo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru aho hari kugendamo abanyeshuri bagiye ku ishuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru na kaki, bakaba bari kugenda baringaniye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru n'umukara ku bikuta, ikaba ifite ubusitani buteyemo ibiti birebire bigiye bitandukanye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, ikaba irimo n'igitanda, bigaragaza ko ariho abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda barara.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho inzu zisakaje amabati y'umweru.